Mu isoko rya Nyabugogo, icyapa cyanditseho iteri, abashinzwe umutekano babiri bambaye impuzangano y'icyatsi n'abandi baturage bitabiriye mu isoko.

Isoko risakaye rirangaye ku ruhande ricuruzwamo imbuto ndetse harimo n'abacuruzi benshi, umwe mu bacuruzi umumama wegeye imbere wambaye agapira k'umweru uteruye uruhinja.

Inzu ikodeshwa ibihumbi maganatandatu y'amafaranga y'amanyarwanda ku kwezi ifite ibyumba bine ubwiherero butatu, inzu ifite ubusitani ifite aho baparika.

Inzu igeretse kabiri ikodeshwa ifite ibyumba bibiri, ubwiherero bibiri, inzu iri yonyine idafite indi biri kumwe mu gipangu.

Mu biro bya muganga yakiriye umumama wambaye akitero k'igitenge harimo ubururu n'icyatsi n'umuhondo ndetse yitwikiriye no ku mutwe mu ibara ritukura, hirya ku muryango hariho undi muganga, ku meza hariho impapuro.